Iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo ibikombe by'imiti， ndetse n'ibindi bifasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi，cyangwa mu mirima yabo harimo ibyonnyi， umucuruzi ahagaze imbere y'iduka rye，yifashe mu mifuka， yambaye ipantaro yegereye ndetse n'inkweto z'umukara.

Ikigo cy'abanyeshuri bigiramo cya pirimeri，cyubakishijwe amabati n'amatafari ahiye， gifite icyapa ku ruhande，banitse n’amataburiya abarimu bigisha bambaye， ku ndabo.

Porosome akademi ni ishuri rifite ibintu bitandukanye bigisha, aho banditse icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'igitabo gishushanyije ndetse bashushanyije n'abana batandukanye bifashishije amarangi.

Abanyeshuri bari muri laboratware ya shimi ,bari gukora ibintu bitandukanye bagerageza ngo barebeko ibyo bize babishira mu bikorwa bikatanga umusaruro ku myigire yabo.

Abanyeshuri bari mu ishuri rya mekanike bari gukanika ibikoresho bitandukanye, kugira bifashe abantu bazabikoresha byujuje ubuziranenge, na bo bagaragaje ubuhanga bwabo mu gukanika.

Abubatsi bari kwi shantiye bategereje kubaka igisenge bategesheje ibiti kugira ngo ifate, ifate ibisima baramena bya peto.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga amasomo atandukanye, bigishwa na mwarimu, yambaye itaburiya y'umweru, ndetse n'agapira k'umuhondo, mu ishuri ririmo ibintu byinshi, utubati, amadirishya afunze neza y'ibirahure, kugira bige neza.

Abakanishi bahuriye hamwe bahuje ibitekerezo， bari gukanika imodoka yapfuye, ndetse banifashisha ibyuma bitandukanye kugira ngo barebabe aho yagize ikibazo，kugira ngo yongere ijye mu muhanda igende nta kibazo. Iyo modoka ifite ibara ry'umutuku， n'amabara y'umweru.

Abatetsi bo mu gikoni co mu mahoteli bakunda guteka ibiryo biryoshye kandi bitandukanye. Bityo abakiriya bakaza bishimye bakishura n'amafaranga ahagije kubera bishimiye serivisi bahawe.

Abatetsi bo muri hoteli bateka ibintu bitandukanye, bagiye guteka bafite ibyuma bari gukata ibitunguru, karoti, kugira ngo babitegure bifite isuku bifashishije n'amazi yo kubyoza, bambaye amataburi y'abatetsi.

Abakanishi bari gukanika ibyuma by'ikoranabuhanga bifashishije imigozi y'amashanyarazi kugira ngo icyo cuma gikore neza, bikabasaba gushiraho ubuhanga bwabo mu gukanika.

Abakanishi bakora ibintu bitandukanye bambaye ingofero z'umuhondo, iz'umweru, abandi ntazo bambaye. Bashishikariye gukora ibintu byinshi, kugira ngo ababikenera babibonere igihe, nta gukerereza abaje babagana.

Ishuri rigezweho mwarimu ari kwigishiriza ku kibaho, n'abana bari kwandika mu makayi bifashisha na za mashini cyangwa zaworudinateri kugira ngo bafate ibyo bize banafotora.

Abanyeshuri bigira ubukanishi bari gukanika ibintu bitandukanye. Harimo abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano yanditseho Arapi Ayipiyarasi, bari gukora ibintu by'ubukanishi.

Umukanishi wifashisha ibikoresho bitandukanye, aho akanika insinga mu gukora ibikoresho by'amashanyarazi. Iyo umuriro wagiye akifashisha insinga ze, ndetse na za tesiteri afashe mu ntoki yambaye za ga, mu kugira umuriro utamufata.